Abantu bafite ingobyi mu ntoki bahetseho umurwayi w'umugore uryamye, impande hari abantu bikoreye ibintu ku mutwe bimutse.

Indege yo mu kirere itwaye amaraso hasi hari inyubako zigeretse z'amayetage zubatse zisakaje amabati ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Imbangukiragutabara itwara abarwayi ndetse n'abaganga, bari impande bambaye imyenda y'umweru nubururu n'abaturage bahagaze bari gufotora. Impande hari inyubako ndetse n'ibiti bihakikije.

Abagabo babiri, umugore ufite ikayi mu ntoki ndetse n'abasirikare bahagaze aho munsi y'inzu yubakishije amatafari ahiye, inyuma hari umuryango wanditseho amagambo.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga harimo ibitanda bishashe, hicayeho abarwayi, hejuru hamanitse inzitiramibu, umuntu wicaye kagare k'abana n'ubumuga, amadirishya arafunguye.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari ameza ariho igitambaro k'icyatsi, ari kwandika mu ikayi, afite ikaramu n'impapuro zirambitse impande n'umurwayi wicaye ku ntebe impande ye.

Umuganga uri kuvura abarwayi wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari ameza arambitseho amakayi ari kwandika, inyuma ari mu bitaro abarwayi baryamye ku gitanda.

Umuganga wambaye ga mu ntoki afite akuma ari gusuzuma umurwayi wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, yicaye ku ntebe.

Akayira kinjira mu bitaro iruhande hari indabyo z'ubwoko butandukanye, inyubako isakaje amabati, abantu bicaye imbere yayo ndetse n'ibiti bihakikije.

Abapolisi babiri bahetse imbunda ku rutugu bari gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, inyuma hari abantu benshi bafite ibitambaro byanditseho kwibuka ndetse n'imodoka inyuma yabo.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru n'amadarubindi, itaburiya ndetse na ga zisa ubururu ari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi bw'imiti, hateretsemo uducupa turi mu mabara atandukanye.

Abantu batatu bari mu cyumba gisize irange ry'umweru bambaye amataburiya asa, imbere yabo hari ameza arambitseho igitambaro k'icyatsi hateretseho impapuro ndetse n'udukarito.

Umuganga wambaye amaherena n'iitabura y'umweru na ga mu ntoki, ari gupima imiti, ari mu cyumba gisize irangi ry'umweru harimo impapuro zimanitse ku bikuta.

Umubyeyi uri kwa muganga mu bitaro, agiye konsa umwana we, yicaye ku gitanda, impande hari ameza ateretseho igisarori, teremosi, agacupa ndetse n'igikombe. Hasize irangi ry'ubururu.

Abantu benshi bahagaze impande y'inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yabo hateretse ameza, ariho amasafuriya abiri imwe irimo imboga, indi ibikombe ndetse hateretseho n'icupa ry'amazi.

Umugore wambaye amadarubindi afite ibisuko ku mutwe, akenyeye ibitenge, ahagararanye n'umugabo wambaye ishati. Imbere yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati.

Muganga wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara yicaye ku ntebe, ari gusuzuma umwana, mama we aramuteruye yicaye ku ntebe z'umuhondo, bari kumureba mu gutwi.

Abantu benshi bari mu muhanda bafite ibyapa mu ntoki, bari byanditseho kurwanya ibiyobyabwenge hari n'umupolisi, impande hakikijwe n'indabo ndetse n'amazu menshi.

Umugore wambaye ipantaro n'ishati, agapfukamunwa na bote ndetse na ga mu ntoki, afite agashashi karimo ibintu, imbere ye hateretseho ibikoresho n'urugi rurafunze.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa mudasobwa ndetse n'amaterefone amakayi imbere yabo hari umuntu uri gutambutse imbwirwaruhame.

Icupa ripfundikiye hometseho igipapuro, risize irangi ry'icyatsi n'umweru. Handitseho amagambo mu ibara ry'umukara, rivuga ko harimo umuravumba.

Umugore wambaye ibitenge afite isakoshi mu ntoki ari gutambuka, inyuma ye hari inzu isize irangi ry'ubururu isakaje amabati ndetse n'abantu bahicaye.

Umugore wambaye imishanana, afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hahagaze abantu munsi yinzu isize irangi ry'ubururu isakaje amabati, hari indabo.

Abana bicaye impande y'umuhanda, hakurya hari inzu isize irangi ry'ubururu isakaje ibati, umugore uhetse umwana ufite n'isakoshi agiye kwinjira, imbere hari indabo ndetse n'ikigega gifata amazi.

Icyumba cy'abarwayi harimo matola n'ibitanda biri ku murongo; bimwe hariho abarwayi baryamye, ibindi hamanitseho inzitiramibu hejuru. Amadirishya y'ibitaro arafunguye, harimo na kizimyamoto.

Abarwayi benshi higanjemo igitsina gore bakenyeye ibitenge, baje kwivuza imbere yabo batonze umurongo, hari abaganga benshi bambaye amashati y'umweru, hateretse ameza ariho imiti.

Abaganga bambaye amatabuririya y'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho imiti, hicaye ababyeyi bateruye abana, abandi babahetse mu mugongo.